Iyi ni inyubako nini izengurutswe na jaride irimo ibiti bigiye bitandukanye harimo na pasiparumu ndetse harimo n'aho bamena imyanda cyangwa se pubere.

Iri ni ishuri ririmo ibikoresho byabugenewe biba mu ishuri: intebe z'abanyeshuri ndetse n'intebe ya mwarimu, ndetse n'ahaterekwa imashini cyangwa se mudasobwa mwarimu ari kwigisha.